Ubuhinzi bwa kijyambere aho imashini igenda ifuhira umuti cyangwa amazi ibihingwa biri ku buso bunini, akaba ari imashini ikoreshwa mu buhinzi bwa kijyambere.

Umuhinzi urimo gutera umuti mu murima we w'igihingwa c'amashu, amashu akaba ari igihingwa gikoreshwa cane mu gihugu, kandi kikaba kigira umusaruro ushimishije.

Umurima w'igihinga cy'inyanya uherereye mu gishanga cy'umujyi. Urimo umugore urimo atera umuti, akoresheje icuma gitera umuti, bakunda kwita ipombo mu murima w'inyanya.

Imiti ikoreshwa mu buhinzi kugira ngo irumbure ubutaka. Ndetse irinde ibihingwa ibihe gukora neza, iyi akaba ari imiti ikoreshwa n'abahinzi kugira ngo umusaruro wiyongere.

Umuhinzi urimo atera umuti mu murima w'amashu. Amashu akaba ari igihingwa cyo mu bwoko bw'imboga, aho umuhinzi wayo ayahinga akayasarura mu gihe gitoya, akayajyana ku isoko akabona amafaranga.

Icupa ry'umuti witwa roketi ukunda gukoreshwa cane mu bihingwa, bawukoresha bica udusimba twangiza imyaka nk'ibigori ,ibishimbo n'ibindi.

Umuhinzi urimo atera umuti ibirayi, kugira ngo bitarwara indwara zitandukanye ziririmo udukoko n'ibindi. Imiti y'ibihingwa ituma ibihingwa byongera umusaruro.

Abahinzi bari mu umuririma w'ibigori aho bashyira ifumbire ku bigori kugirango bikure neza. ubu akaba ari uburyo bukoreshwa mu kongera umusaruro w'ibigori, babyongerera ifumbire n'imyunyungugu mu butaka kugira ngo bizatange umusaruro ushimishije.

Ibigori bimaze kumera, inyuma yabyo hari umuhinzi uri ahantu amaze guhinga arimo ashyiramo ifumbire y'imborera. Ifumbire ikaba ituma umusaruro wiyongera, cyane cyane iyo ubutaka bushaririye.

Umuhinzi urimo atera imiti yica udukoko mu bigori. Ubu bukaba ari uburyo bukoreshwa mu kwica ibyonnyi bitandukanye byangiza ibigori ndetse akaba bigaragaza uburyo umuntu ugiye gutera imiti agomba kwambara neza kugira ngo imiti itamutera uburwayi.

Umuhinzi urimo mu murima atera umuti ibihingwa bye wambaye yipfutse amazuru ,agaragaza uko abahinzi bakwiye kwifata igihe batera umuti mu rwego kwirinda zimwe mu ndwara zishobora guterwa n'iyo miti.

Ikimera kimaze kuva mu butaka hamwe n'ikiganza kirimo kugishyiraho ifumbire kugira ngo gikure neza, bikaba ari umuco Leta ishishikariza abahinzi gushyira ifumbire ku bihingwa.

Umuhinzi urimo atera umuti mu gihingwa c'inyanya. Inyanya akaba ari igihingwa gifitiye akamaro kanini abantu benshi kuko ziribwa cane. Bakaba korwamo amasositomate n'ibindi bikoreshwa mu gutegura isosi..

Amafi matoya bakunze kwita indagara cyangwa isambaza Akaba ari amafi akundwa cyane kuko abamwo intungamubiri nyinshi ndetse akaba yifashishwa mu kurwanya imirire mibi n'abantu batandukanye hirya no hino.

Amafi yakonjeshejwe mu bikoresho bikonjesha bizwi ku izina rya firigo. Akaba ari ibikoresho bishyirwamo ibintu bitandukanye kugira ngo bitangirika. Amafi rero iyo yashizwe muri firigo, aba ari ukugira ngo atangirika, agumane ubwiza bwa yo.

Ifi ziteguwe ku isahani bagiye gutegura kugira ngo zibashe kuribwa, ifi akaba hari inyamaswa yo mu mazi aho zikoreshwa mu mirire ndetse no kurwanya imirire mibi, kandi akaba ari ikiribwa gikundwa cyane ahantu henshi.

Inyama y'ifi yokeje iri ku isahani, ifi ikaba ari inyamaswa iba mu mazi iboneka mu biyaga, mu migezi ,ahantu hatandukanye mu gihugu cyacu, ikaba ikunda kuribwa cane ahenshi mu mahoteli cangwa se mu tubari n'ahandi bategura ibyo kurya bitandukanye.

Igitari c'inturusu zitwa nyiramweru zitarakura cane, ngo zigere igihe co gusarurwa.

Umurima uhinzemo igihingwa c'ibitunguru kitarabagarwa, umuhinzi akaba agomba kwita ku gihingwa mu muririma, kugira ngo azabone umusaruro, akibagara, akoramo n'andi masuku no gutera imiti.

Igihingwa cy'umugano, gikunze kuboneka ahantu hatandukanye mu cyaro, aho cyifashishwa mu bwubatsi ndetse no gukora ibintu bitandukanye, birimo kuboha n'ibindi.

Umurima umaze igihe usaruwemo imyaka, ukaba umaze kumeramo ibyatsi, ibi bikaba bikorwa cane cane n'abahinzi kugira ngo imirima yabo itarumbuka vuba cangwa se ubutaka budasaza, akaba ari yo mpamvu bayireka kugira ngo ibanze imeremo ibyatsi, irare.

Umurima umaze igihe usaruwemo imyaka, ukaba umazemo ibyatsi ndetse ukaba urimo n'insina. Bukaba ari uburyo abahinzi bakoresha kugira ngo ubutaka butarumbuka kubera kubuhinga cyane basimburanya ibihingwa ndetse banawurahaza.

Itunda rya marakuja ridafite imbuto, aho ubuhinzi bw'amatunda bushobora kugirira umuhinzi akamaro, kuko amatunda ni urubuto rukundwa cyane mu Rwanda kandi rwinjiriza uwaruhinze amafaranga menshi.

Umurima umaze gu gusarurwamo ibigori. Aho ibigorigori cyangwa se ibiti by'ibigori byafashwe bikarundwa hamwe, kugira ngo bizavemo imishingirizo y'ibishimbo, mu gihe ibishimbo bizaba bihinze.

Umurima umaze igihe usaruwemo imyaka, ukaba waramezemo ibyatsi ubu buryo bukaba ari uburyo bakoresha baraza umurima umaze gusarurwamo imyaka, kugira ngo bazongere kuwuhinga utarashizemwo ifumbire kandi were neza.

Umurima umaze gutemwamwo ibyatsi, babishyira mu byo bita indego, ukaba utegurwa kugira ngo bazawuhinge vuba aha.

Umurima wasaruwemo imyaka, ukaba urimo insina eshatu, akaba bigaragaza uburyo abahinzi bahinga imyaka bayivanze, aho iyo basaruye imyaka imwe hasigaramo iyindi.

Urugo rwo mu caro rugaragaramo ibihingwa, ibiti by'imishingiriro bakoresha bashingirira ibishimbo ndetse n'uruzitiro ruba rukikije urugo.

Umurima w' ibirayi wegereye uruzitiro ukaba urimo insina ebyiri zifite ibitoki, kimwe kigaragara ko caribwa.

Igihingwa cy'amashaza akiri mato. Amashaza akaba ari igihingwa gikunda guhingwa mu Rwanda ndetse iyo yeze ashobora kugurishwa ari mabisi akaribwa yumye akaba ari igihingwa cyiza kandi gikundwa n'abantu.

Ibyatsi byifashishwa cane cane mu bice by'icaro bubaka uruzitiro, akenshi babikoresha mu giturage kugira ngo bakore urugo cangwa uruzitiro, bikaba byitwa ku izina ry'ibidaririya.

Umurima w'amatunda bakunda kwita amarozi. Bigaragara ko yatangiye kuma kubera impamvu zitandukanye, zishobora kuba zirimo ko hari ikintu gishobora kuba cyayangirije.

Umuhinzi uvuye guhinga cyangwa se uvuye gukorera imyaka, bigaragara ko yishimiye uko umurima we umeze. Arimo aramwenyura, avugira kuri terefone abwira abantu uko igihembwe cyabaye cyiza.

Inkoko zihuriye ku kintu zirimo kurya. Ubworozi bw'inkoko bukaba ari ubworozi bwiza cyane bushobora guteza imbere umuntu ubikora, zikaba zitanga umusaruro w'amagi ndetse n'inyama.

Umusaruro w'igihingwa c'ibigori, umaze gukurwa mu buhunikiro urimo ushyirwa mu mifuka, kugira ngo uhunikwe neza. Ibi bikaba ari uburyo bwiza bwo gu kubikamo umusaruro.

Imbuto zitandukanye zicuruzwa kugira ngo abazikeneye bazibone, bazibone. Urugero: imyembe, amatunda abacuruzi barabizana bakabi, mu isoko kugira ngo ababikeneye babibone.

Isoko, ahacururizwa imbuto n'ibicuruzwa bitandukanye imboga, inyanya, amafu ,n'ibiribwa bitandukanye nk'imiceri, akaba ari ahantu abacuruzi batandika ibicuruzwa byabo abaguzi n'abo bakaza kugura ibyo bakeneye.

Ibijumba byakuwe biri ahantu bigaragara ko bihunitse. Ibijumba akaba ari gihingwa ngandurarugo gikunda gukoreshwa cyane mu Rwanda kiribwa.

Amapera arimo amababi, amapera akaba ari mu mabase abiri agaragara nk' ashaje, asudiriye.

Umugore uri mu murima w'ibishimbo, bigaragaza ko yishimiye ko ibishimbo ari byiza. Ubuhinzi bushobora gukorwa n'abagore bukabateza imbere, kandi na bo bakabushobora, bityo umusaruro uvuyemo iyo wabaye mwiza, ubu nyirawo ashobora kuwujyana ku isoko akawugarisha agatera imbere.

Ibihinga bihinze mu buryo bwa kijyambere aho bakunda kwita muri weya hawuzi, akaba ari inzu zihingwamo zikaba zituma ibihingwa bidahura n'imvura nyinshi cyangwa se izuba ryinshi, ndetse n'udukoko dutandukanye tukaba tudashobora kwinjira mu ubwo buhinzi.

Umuhinzi uri mu murima w'inyanya， aho agaragaza umusaruro w'inyanya，ndetse inyanya akaba ari igihingwa gikunzwe guhingwa cane cane， kuko gikoreshwa mu guteka ibintu bitandukanye ndetse zikaba zikoreshwa no mu nganda zizitunganya neza.

Aha hatuburirwa ingemwe z'ibiti bitandukanye, zigahabwa abaturage bakajya kuzihinga no kuzitera, zikabafasha kurinda ubutaka gutwarwa n'isuri, ndetse zimwe bakazifashisha bakuramo imishingirizo, ndetse zimwe hakaba hari ibiti by'imbuto batera bakazabirya imbuto ziribwa.

Insina iriho igitoki iri hafi y'urugo, ikaba iboneka cyane cyane ku ngo zo mu caro, aho ingo zigira insina zikuraho ibiribwa, cangwa se bakagurisha ibitoki byeze kuri izo nsina.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'imbuto zitandukanye zirimo: imyembe, inanasi, n'izindi. Imbuto akaba ari abacuruzi bakunda gukorwa cyane cyane mu masoko manini n'amato kuko zikenerwa n'abantu benshi.

Itungo ry'ingurube rifite ibibwana birimo konka, ingurube ikaba ari rimwe mu matungo abanyarwanda bakunda korora, kandi ryororoka vuba ndetse riteza imbere uwaryoroye vuba.

Ahakorerwa ubuhinzi bw'amashu, aho umuhinzi afata afashe umusaruro we mu ntoki agaragaza ibyishimo atewe no kuba umusaruro we warabaye mwiza, ubuhinzi rero bukaba bushobora guteza imbere uwabuhinze ndetse bukamuha ibyo akeneye.

Umugore urimo atera umuti mu bigori kugira ngo bikure neza ndetse bitazafatwa n'udukoko twangiza imyaka, akazabura umusaruro. Ubuhinzi rero ni imwe mu kigize, mu gitunze Abanyarwanda benshi kandi ni umwuga uteza Igihugu imbere mu bukungu.

Imishwi y'inkoko iri ahantu harorerwa inkoko mu cari cyazo. Inkoko ikaba ari itungo mu bwoko bw'ibiguruka yororerwa mu rugo, rikaba ritanga amagi ndetse n'inyama, zikoreshwa mu kuribwa no kurinda imirire mibi.

Igihingwa c'ibihaza bigaragara ko biri ahantu buri wese abona bihaza bikaba ari ibiribwa bikunda gukoreshwa biryohera abanyarwanda.

Igihingwa cy'intogi zimaze gusarurwa zitegereje kujanwa ku isoko, kugira ngo abazikeneye bazigure n'umuhinzi na we wazihinze abone amafaranga. Intoryi akaba ari igihingwa gikundwa cane n'abantu benshi

Urusenda rumaze gutegurwa rubitse ahantu, rwiteguye gukoreshwa mu buryo butandukanye n'abantu. Kugira ngo barukoreshe barushyira ku mafunguro, cyangwa se rujyanwe ahandi mu nganda gutunganywa.

Imbuto z'imyembe zitanditse mu isoko, aho abaguzi bazisanga, bakagura n'abagurisha, buri wese akabona icyo akeneye, umuguzi akabona imbuto, ugurisha nawe akabona amafaranga.

Ibijumba bikuwe mu butaka bugifashe ku mugozi wabyo, bikaba biribwa cane cane n'abantu benshi batuye mu bice bitandukanye by'igihugu.

Ibikomoka ku buhinzi birimo imbuto, bigaragara ko biri ahantu umuntu abicururiza. Harimo inyanya, imineke, avoka ndetse n'ubunyobwa buseye. Bigaragara ko ari umucuruzi mutoya, arimo kubicuruza.

Ahacuruzwa imboga nk'ibidodoki, kokombure, aho abacuruzi bato batandika ku mifuka ibicuruzwa byabo abaguzi batandukanye bakabibona bakabigura.

Urubuto rwitwa oranje rumaze gusarurwa. Rurambitse ahantu habugenewe, rutegereje kujyanwa kugurishwa cyangwa se kugira ngo ziribwe.

Inyanya cangwa se itomati zihinze ahantu mu rugo, mu karima k'igikoni zifite zimaze kuzana ibitusha by'inyanya.

Ibirayi bivanwe mu murima, bisutse hasi, akaba ari uburyo abahinzi b’ibirayi bakoresha bavana ibirayi mu murima, babisuka hasi kugira ngo babisukure. Hanyuma, nyuma yo gusukura, bakabishira mu mifuka, bityo bikaba byagurishwa cyangwa se bigahunikwa.

Urubuto rwitwa ipera, hagaragara amapera abiri rimwe rikase irindi ridakase. Ipera akaba ari igihingwa gikunda guhingwa cane cane mu ngo z'abantu, kandi amapera akaba akundwa kuribwa cane cane mu ngo n'abantu bakaba bayakunda cane.

Umurima w'ibigori uzengurutse urugo rwo mu giturage. Uyu murima ukaba urimo ibigori bigeze igihe cyo kwera. Imbere y'aho hakaba hari ishyamba ry'inturusu ndetse n'inzu igaragaza urugo.

Abahinzi bari mu murima aho bamwe batera imbuto mu myobo, abandi barimo batera ifumbire ku mbuto. Ubuhinzi bukaba ari bumwe mu bigize ubukungu bw'u Rwanda abanyarwanda benshi bakora.

Igiti cya voka， kirimo imbuto za voka zigeze igihe cyo gusarurwa. Avoka akaba ari urubuto rukundwa gukoreshwa cyane mu Rwanda， ndetse zikaba zishobora gukorwamo n'ibikoresho bikoreshwa nk'amavuta n'ibindi.

Kumurika ubwiza bw'imbuto yabonetse, umusaruro igatunganywa neza aho abahinzi bashobora kuza kuyigura kubera ubwiza n'umwimerere ifite.

Igihingwa c'imiteja yasaruwe iri mu gikoresho yifashishwa mu gufata neza umusaruro w'imiteja mbere yo kwerekezwa ku masoko atandukanye hirya no hino mu gihugu cyangwa se hanze yaco.

Umugabo n'umugore bagiye guhinga bafite amasuka ku rutugu, barimo bitegereza umurima wabo urimo ibijumba bitarakura, ahandi hadahinze ariho bagiye guhinga.

Ikijumba. Akaba ari igihingwa gihingwa cane mu giturage, akaba ari igihingwa ngandurarugo, aho giteza imbere umuryango ukaba ushobora kubona ibya nkenerwa by'ibanze, bitewe ukuye ku buhinzi bw'ibijumba.

Ahororerwa amatungo magufi yitwa inkwavu, aya akaba ari amatungo yororoka vuba kandi akororerwa ku buso butoya, akaba ashobora guteza imbere uyoroye mu gihe gitoya, akabona amafaranga akiteza imbere.

Isoko ricuruzwamo ibiribwa, hagaragara cyane cyane ibiribwa by'ibitoki, aho abaguzi n'abagurisha barimo bagurirana, bamwe bakeneye ibyo kurya baha abacuruzi amafaranga nabo ngo abateza imbere.

Urubuto rwa avoka itonoye. Avoka akaba ari igihingwa gikunda guhingwa ahantu henshi cyane cyane mu ngo, aho abaturage bazihinga zakwera bakazijyana ku isoko bakazigura bakabaha amafaranga ndetse bakanazikoresha ku mafunguro.

Igihaza akaba ari ikiribwa gikundwa cyane bamwe bakunda kwita idegede. Kikaba gifasha mu buzima bwa buri munsi bwa muntu aho kiribwa nk'imboga zifasha umubiri gukora neza.

Imbuto ziri mu bitebo bitwarwamo imbuto zitandukanye, kugira ngo zibashe kugera ku masoko atandukanye zitangiritse. Izi mbuto zikaba ari ingenzi cyane, kuko zifasha abaturage mu kwirinda indwara zitandukanye.

Umuririma w'ibigori bihetse bitaragera igihe cyo gusarurwa. Ibigori akaba ari igihingwa gikundwa cyane mu Rwanda kuko iyo umusaruro wabyo ubonetse, ukoreshwa mu buryo butandukanye. Kuribwa ari ibigori akawunga n'ubundi buryo butandukanye.

Ibihaza. Umusaruro w'ibihaza uri ahantu hamwe bigaragara ko ari mu rugo, ibirahaza bikaba bifasha mu mafunguro atandukanye mu mahoteli, mu maresitora n'ahandi.

Isoko bacururizamwo ibiribwa by'ibijumba, abacuruzi bakaba bakoresha uburyo bwo gushyira ibijumba mu gikoresho babirengamo, badakoresheje uburyo bw'ubucuruzi bw'iminzani.

Ibirayi bimaze gukorwa mu murima, bimaze gushyirwa mu mifuka iri ahantu mu isantere, bitegerejwe ko bitwarwa ku isoko, kugira ngo bigere ku babikeneye hirya no hino.

Imbuto ziri ku giti c’umwembe. Umwembe akaba ari urubuto rukundwa cane, kandi uruhinze ushobora kurujyana ku isoko, bakaguha amafaranga, ukiteza imbere cane ko ari urubuto rukundwa n’abantu cyane.

Igihingwa cy'imiteja imaze gusarurwa, irimo ishirwa mu bikoresho biyirinda umusaruro w'imiteja kwangirika kugira ngo ugezwe ku isoko ndetse ushobora no kuba ujyanwa mu masoko mpuzamahanga.

Igiti cy'avoka gifite imbuto z'avoka zigeze igihe co gusarurwa, ikaba ari urubuto rufite akamaro mu buzima bwa muntu ko bushobora kuguha amafaranga ukayakoresha ibindi bitandukanye.

Abaturage bari kwigishwa uburyo bwo guhinga k'ubutaka butoya buzwi nk'imirima y'igikoni, bahahinga imboga z'amashu. Ubu bukaba ari uburyo abaturage bigishwa guhinga ku butaka butoya imboga. bityo bakazifashisha mu biribwa byabo bya buri munsi.

Umurima w'ibigori aho abaturage bahuriza hamwe ubutaka, bagahingwa igihingwa kimwe bagamije kongera umusaruro, uburyo bwo guhingira hamwe bukaba bufasha abaturage mu guhinga igihingwa kimwe, bakakirindira hamwe ibyonnyi, ndetse umusaruro ukaziyongera.

Abagabo babiri bari mu murima w'ibishimbo bifite imisogwe, barimo bakuraho amababi bitegereza ubwiza bw'imisogwe ibishyimbo byabo bifite bigaragara ko umusaruro uzaba mwiza. Umusaruro rero iyo ubaye mwiza uteza imbere umuhinzi, nawe akabona amafaranga akabaho neza.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'imyumbati aha kaba ari igihingwa c'imyumbati gikunda gukoreshwa cane n'abahinzi kikaba ari igihingwa gikundwa. Imyumbati ikaba ari igihingwa gishobora kuvamo imyumbati bakunda kwita ubugari bw'ifu cangwa se kikaba kijyanwa mu nganda ukacyongerera ubwiza bityo umusaruro ukarushaho kugira agaciro.

Abantu barimo gusoroma icyayi. Icyayi kikaba ari igihingwa ngengabukungu, aho ari abagikoramo n'amasosiyete ya bo, ya cyo yose bibateza imbere, bikazamura ubukungu bw'igihugu.

Ibigori byumye bisaruwe bimaze gushirwa mu mufuka. Ubu akaba ari uburyo bukoreshwa n'abahinzi, iyo basarura ibigori byabo, bishira mu mifuka kugira ngo babitware bajye kubihunika ahantu hatandukanye.

Ubuhunikiro bw'ibigori，aho bahunika umusaruro w'ibigori， kugira ngo uzakoreshwe mu buhinzi bw'igihe gikurikiyeho cangwa uzajyanwe mu nganda， ukurwemo ibindi bikoresho abantu bakenera nk'ifu n'ibindi..

Ahacururizwa imyaka itandukanye yiganjemo ibikomoka ku buhinzi birimo ibishimbo, amasaka, ibigori. Ubuhinzi bukaba ari imwe mu nkingi z'iterambere ry'abaturage dore ko abaturage benshi mu Rwanda ari bwo bakora.

Ahakusanyirizwa umusaruro gw'ibigori bihunguye, bikaba biba bitegerejwe kurebwa ko byujuje ubuziranenge, ngo bibe byacishwa mu nganda bikurwemo ifu ikoreshwa mu kuribwa no kunywa igikoma.

Umurima w'amasaka ugeze igihe cyo gusarurwa. Amasaka akaba ari igihingwa gikunda gukoreshwa cyane mu Rwanda, cyengwamo inzoga cyangwa se ibikoma.

Ubunyobwa burimo gukurwa mu butaka akaba ari igihingwa gihingwa cyane cyane ndetse kikaba ari igihingwa gisarurwa, kikanikwa , kikajyanwa mu isoko kigatanga amafaranga ku wagihinze.

Imiteja irimo isarurwa iri mu gitebo cangwa se ipaniye. Imiteja akaba ari igihingwa gikundwa cane, aho coherezwa no hanze kikazanira uwagihinze amafaranga, ndetse n'amadovize yinjira mu gihugu.

Abakecuru barimo batunganya umusaruro w'amasaka aho bakoresha igikoresho citwa intara, bakora igikorwa co kugosora. Ibi bikaba ari igikoresho cyakoreshwaga kuva kera mu gutunganya umusaruro bawusukura.

Ibihingwa bikiva mu butaka, bakunze kwita umumero, bikunda kuba cane ku gihingwa c'ibishimbo, inzuzi n'ibindi.

Ibihingwa biteye ku mirongo mu buryo bwa kijambere. Akaba ari uburyo bwiza abahinzi bakoresha kugira ngo bongere umusaruro wabo. Kuko ibihingwa bitewe ku mirongo, no kubikorera byoroha bityo umusaruro ukiyongera.

Igihingwa c'ubunyobwa kimaze gusarurwa ariko butaratonorwa, Ubunyobwa, igihingwa cyiza kikaba gikoreshwa n'abantu benshi mu Rwanda ndetse n'ahandi.

Ahakorerwa ubuhinzi butandukanye, hari imirima y'ibigori, urutoki n'ibindi, bikaba byerekana uko hahujwe ubutaka kugira ngo haboneke umusaruro.

Ibiganza birimo imbuto y'ibishimbo bikaba bigaragaza ko umuntu yakwerekana imbuto nziza y'umusaruro we, hanyuma yaba ashaka kuwugurisha abahinzi bawishimira bakajya baza kuwureba kubera ko ugaragara neza.

Ibinyobwa bimaze gukurwa bwanitse ahantu. Ubunyobwa ni igihingwa kigira uruti rurerure. Kikaba cyerera mu butaka. Iyo ubunyobwa bwumye, barabutonora, bakabwanika bakabukoresha mu kuburya mu buryo butandukanye.

Umusaruro w'imbuto zishobora guterwa. Izi mbuto zikaba ari imbuto zijya kuba imbuto z'inzuzi, ibyo bita ibihaza.

Ubunyobwa ubunyobwa ni igihingwa gihingwa ku giti kikagira imbuto mu butaka aho zisarurwa ,zikanikwa, ubunyobwa bukaba bukoreshwa mu bintu bitandukanye hari kuribwa cyangwa se kubujyana mu nganda, hagakorwamo amavuta yo guteka.

Ahakorerwa ubuhinzi bw'ingano. Ingano akaba ari igihingwa gihingwa cyane mu Rwanda. Kikaba ari igihingwa cy'ingirakamaro, kuko gikorwamo ibintu byinshi. Ingano zishobora kuribwa zitetsemo umutsima, ingano ndetse n'ifu ya zo ikaba yakorwamo amandazi n'imigati.

Ahacururizwa umusaruro w'imbuto z'ibigori z'ibigori zitandukanye, aho ucuruzwa hifashishijwe uburyo bwa gakondo, aho barengaga ibicuruzwa mu kintu bakakigereranya n'ibiro by'umunzani runaka.

Umugore urimohungura ibigori, akaba ari uburyo bwifashishwa ndetse bukaba bwanarifashishwaga kuva kera bwo kubona ibigori bihunguye buryo rerokaba, ari uburyo gakondo ku buryo hasigaye hari uburyo bwa kijyambere bwo gu guhura ibigori, n'imashini bitanangiza n'umusaruro.

Amahundo y'ibigori yatandukanye y'amabara aho umuhinzi abishira ku ruhande ibi bikaba bigaragaza ibigori byagiye bibangurirana kimwe ku kindi bikazana amabara kubera imbuto zitandukanye zabanguriranye.

Inka ziri mu rupangu bavuriramo inka; umuveterineri arimo aratera inka umuti, akoresheje urushinge rwifashishwa n'abaveterineri, kugira ngo bavure inka iba yarwaye.

Amatungo magufi azwi ku izina ry'ingurube ari mu kiraro gifite umwanda ,bikaba bigaragara ko aya matungo ashobora kwandura indwara kubera umwanda cyangwa isuku nke iba iri mu kiraro c'amatungo.

Umuvuzi w'amatungo afashe itungo ryitwa ihene, areba mu kirenge uburwayi ryaba rifite. Abavuzi b'amatungo bakaba ari abantu, bafasha cyane ku bijyanye n'ubworozi mu Rwanda. Kugira ngo umusaruro w'ubworozi wiyongere, bitewe nuko bafasha mu kuvura amatungo yarwaye.

Urwuri rw'inka rurimo inka nyinshi, harimo inka imwe n'iyayo, umushumba ari gukama inka ihagaze hamwe n'inyana yayo.

Aho abavuzi b'amatungo bahuriza amatungo higanjemo inka, cane cane iyo bagiye kuzivura cangwa kuziha imiti itandukanye, babita upangu rw'inka.

Itungo ry'ingurube rigizwe n'ingurube eshanu, ziryamye ahantu haboneka ko hari izuba ryinshi; izo ngurube zikaba ziri mu kiraro cyazo.

Inkoko irimo igendagenda ishaka ibyo yarya, itora mu gisambu. Inkoko ikaba ari inyamaswa cyangwa se itungo ry'ibiguruka, ribaho rigenda ritora, cyangwa se ryororerwa mu nzu.

Ahakorerwa ibikorwa by'ubworozi bw'inka. Inka akaba ari itungo rikundwa mu muco w'abanyarwanda, ndetse inka za kijambere, umworozi iyo azoroye, aba ari umukungu kuko zishobora kumuteza imbere, kugera ku rwego rushimishije ndetse akaba yaba n'umumiliyoneri.

Abanyeshuri bari mu ishuri biga ubuvuzi bw'amatungo aho bari kwiga uburyo bavura itungo ry'ihene bakoresheje uburyo bwo kubaga.

Umuganga w'amatungo n'umuturage bafashe inka. Umuganga w'amatungo arimo aritegereza ijisho ry'inka, arebe uburwayi rifite.

Itungo ry'intama zikiri ntoya zirimo zirisha ubwatsi. Intama akaba ari itungo ryororwa cane mu Rwanda rikaba rifasha uyoroye kubona amafaranga, ndetse intama zikaba zifashishwa, mu kubona ubwoya bukoreshwa mu kubona indodo cyangwa se mu myenda itandukanye.

Amatungo azwi ku izina ry'ihene aragiwe n'abana babiri, ubu bakaba ari uburyo bwagaragaraga cyane ahantu h'icyaro, aho abana baragiraga ku nkengero z'imihanda no ku mikingo amatungo yabo, mu rwego rwo gushaka ubwatsi bw'amatungo.

Ibiraro bororeramo amatungo atandukanye, inyuma yabyo hari umusozi utuyeho abaturage.

Ikiraro cy'inkoko cya kijyambere kirimo inkoko, aho kurira, aho gutera amagi, amatara aboneshereza inkoko nijoro, n'ibindi byinshi bishobora kuboneka aho inkoko zororerwa.

Abagabo yafashe inka kugira ngo babone uko bayiha ubuvuzi, mo barasuzuma uburwayi yaba afite. Ku kuyifata kugira ngo itazagutera amahane, niba uhabwe ubuvuzi.

Ibibwana by'ingurube biri mu kiraro. Ingurube akaba ari itungo ryororoka vuba vuba kandi rikunda kororwa cyane mu Rwanda. Rikaba rishobora guteza umworozi waryo imbere vuba rimuha ifumbire, ndetse n'amafaranga iyo yarugurishije,

Inyoni ihagaze ku byatsi aho inyoni ari inyamaswa abakerarugendo ndetse n'abantu bakunda kuza kureba, zikaba zikurura ba mukerarugendo bakinjiza amadovize mu gihugu.

Inyoni iri mu giti ireba uruhande ikaba iri ahantu hitejyeye amaso neza, inyoni zikaba ziri muri zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo mu Rwanda zikaba zinjiriza igihugu amafaranga avuye mu bukerarugendo bw'inyoni.

Inyoni yitwa inuma ihagaze ahantu heza ituje ikaba ishobora no kororwa mu rugo, kandi ikaba igaragaza ubwiza bw'ahantu.

Ubwoko bw'inyoni zitororwa mu rugo bigaragara ko iri ahantu mu ishyamba cyangwa se aho bamaze gusarura imyaka ririmo ishakisha ibyo kurya. Iyi inyoni ikaba iri ahantu Bigaragara ko hari icyo iri kwitegeza ishaka gufata.

Ubwoko bw'inyoni yitwa inyamanza. Iyi nyoni ikunda kuboneka cyane henshi mu Rwanda cyane cyane ahantu mu cyaro. Ni inyoni nziza ndetse abantu b'abanyarwanda bakunda kuyikoresha mu bwoko mu buryo bw'ubuvuzi.

Inyamaswa zo mu gasozi ziri mu ishyamba, aho zirimo zirukanka. Inyamaswa zikaba ziba ahantu nyaburanga mu ishyamba, aho ba mukerarugendo baza kuzisura, bakazireba, bagasiga amafaranga. Zikaba zinjiza amafaranga menshi mu bukerarugendo.

Inyoni bita ifundi. Iyi nyoni ikaba ikunda kugaragara cyane henshi hatandukanye. Inyoni ikaba ari inyamaswa iguruka ikunda gukurura ba mukerarugendo, kandi ikaba yinjiza amafaranga menshi mu bukerarugendo.

Inyoni yitwa inuma iri ahantu mu isambu itembera ishaka udusimba yarya. Iyi nyoni ikaba ikunda no kuba mu ngo z'abantu bayoroye, cangwa ahantu ho mu mahoteli n'ahandi.

Inyamaswa yo mu gasozi iri mu gisambu, inyamaswa ikaba yitwa nyirabarazana ikaba ari inyamaswa iboneka ahenshi hagaragara nko mu bishanga itoraguramwo ibyo iriya cyane cyane iminyorogoto n'ibindi.

Ubwoko bw'inyoni iri ku cyatsi bita igishokoro. Inyoni zikaba ari zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo, ndetse ubukerarugendo bwazo bukaba bwaratejwe imbere, kandi ibi byatsi bita ibishokoro bikaba bikunda kugaragara ahantu hadaherukwa guhingwa.

Inyoni ihagaze ku cyatsi ikaba ari ubwoko bw'inyoni bwiza, ndetse mu Rwanda inyoni zikaba zaritaweho mu rwego rwo gukurura ubukerarugendo, kuko inyoni na zo ba mukerarugendo baza baje kuzireba.